Abantu batandukanye urugero hari abana, abantu bakuru, hari abambaye imyenda isa, urugero nk'abana bambaye imyenda isa, harimo uwambaye imyenda asa nk'umuntu ushinzwe umutekano ku rwego rwa polisi, barimo baraha abana amata cyangwa igikoma mu buryo bwo kurwanya imirire mibi.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye. Abagabo, abagore, abana baje kuvoma ku ivomo rusange ryatanzwe na leta. Bikaba bibafasha kubona amazi mu buryo bwihuse.

Abayobozi bicaye bari mu nama, hakubiyemo abagabo n'abagore, barimo baraganira ku kuntu bakemura ikibazo runaka, cyangwa ku kuntu bakora igikorwa runaka bifuza gukora, abantu barimo baratandukanye, bambaye imyenda itandukanye, urugero hari abambaye imyenda isanzwe, ndetse n'abambaye imyenda igaragaza ko hari nk'akazi runaka bakora.

Umwana arimo arakaraba mu buryo bwo kwimakaza isuku. Arimo arakaraba amazi meza yifashishije n'isabune kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mwanda.

Umubyeyi urimo urakorera isuku mwana we amukarabya, wifashisha ivoma rusange bahawe na Leta. Muri iki gihe abaturage barimo baregerezwa ibikorwa remezo, hakubiyemo n'amazi. kugira ngo barusheho kwimakaza isuku mu miryango yabo, kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda ndetse n'izindi zishobora guturuka mu kutabona amazi meza kandi ahagije.

Abaturage baje kuvoma ku ivomo rusange ryatanzwe na Leta kugira ngo babone amazi yo kwifashisha mu ngo zabo no mu bindi bikorwa byabo bya buri munsi, ibi birabafasha kwimakaza isuku nk'uko igihugu cyabyiyemeje mu buryo bwo kugira ngo biririnde indwara ziterwa n'umwanda cyangwa se zituruka ku gukoresha amazi adasukuye.

Abaganga batandukanye bicaye hamwe barimo baratekereza ku kuntu bakemu ikibazo gihari urugendo nk'iki cyorezo cy'uburwayi cyateye, bicaye hamwe mu nama barimo barareba icyo bakora kugira ngo bakomeze kwirinda icyo cyorezo hakubiwemo no kukinda abaturage, kubagira inama y'icyo bakora kugira ngo icyo cyorezo kirindwe.

Urujya n'uruza rw'abantu b'ingeri zitandukanye, baje kuvoma ku ivomo rusange, harimo abana ndetse n'abantu bakuru. Abana baricaye, abandi bari kuvoma, abandi barimo baraterura amazi basoje kuvoma. Ibi rero bifite akamaro, kuko bituma birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umunyeshuri wambaye impuzankano y'ikigo ari ku ishuri arimo aranywa amazi yo mu kigo, yasohotse mu ishuri yumva afite inyota none aje kuyanywa ku ivomo ryashyizwe hagati mu kigo.

Urubyiruko rurimo rurahugurwa ku bijyanye n'uko rwakwita ku barwayi, cyangwa se gutanga izindi serivisi runaka zikenewe muri sosiyeti. Muri iki gihe urubyiruko rurimo ruratozwa hakubimo guhabwa amahugurwa atandukanye abafasha kugira uruhare mu bikorwa bikorerwa mu gihugu, urugero nko kwita ku baturage kuba ibyo bakeneye ndetse no kubafasha gutanga serivisi igihugu cyifuza kugezwa ku baturage.

Umukobwa urimo urita ku menyo ye kugira ngo amere neza, urugero ari kwifashisha ibikoresho byabugenewe, aribyo umuti w'amenyo ndetse n'uburoso bumufasha kuyoza neza.

Abagabo babiri bari mu kigero gitandukanye, umwe arakuze cyane, undi aracyari muto ntakuze cyane nk'undi, barimo baratembera mu muhanda baganira, umuhanda ukaba urimo ibiti baririnda izuba.

Umugabo ukuze arimo arasoma igitabo cyangwa se arimo arasoma andi makuru runaka, yambaye ibikoresho bimufasha kureba neza aribyo amarinete, ndetse afite n'ikaramu yo kwandikisha ibintu by'ingenzi.

Umuganga arimo arakingira umuturage icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda kugira ngo amufashe kongera ubudahangarwa mu mubiri we, kuko yakomeza kwirinda icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda kandi ntazahazwe nacyo, icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda abantu benshi bitabiriye iyo gahunda yo gukingirwa kugira ngo barinde ubuzima bwabo.

Ibiribwa bitandukanye bikubiyemo imboga imbuto ndetse n'ibindi byifashishwa mu gutunganya indyo yuzuye, byateguwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima.

Ibyumba byo kwa muganga bifashirizwamo abarwayi, mu gihe bari guhabwa ubufasha n'abaganga, haba hateguwe neza kandi hitaweho by'umwihariko hari isuku kugira ngo abarwayi bamererwe neza kandi bakire vuba indwara barwaye hataziyemo izindi ndwara, urugero nk'izituruka ku mwanda.

Itsinda ry'abanyeshuri cyangwa abashakashatsi bari muri laboratwari, bambaye imyenda y'umweru cyangwa se imyenda y'akazi, barimo baragerageza cyangwa barakora igerageza ku bintu bijyanye n'ibinyabutabire.

Umuganga arimo araganiriza umurwayi ku bijyanye n'uburwayi bwe n'uko yakomeza kwihanganira ubwo burwayi bwe, ni byiza ko abarwayi bitabwaho mu buryo bwo kugira ngo batiheba bityo bibafashe kwigarurira icyizere.

Umurwayi urembye cyane arimo aritabwaho, hakoreshejwe imashini zabugenewe, kugira barebere ko uburwayi bwe bwakoroha cyangwa se yakira. Muri iki gihe kwa muganga ndetse n'ahandi hatandukanye, hifashishwa ikoranabuhanga rigezweho, kugira ngo abarwayi bitabweho, ndetse muri rusange ibintu birusheho kugenda neza.

Inyubako nini cyane yubatse neza, bigaragara ko ari nk'ivuriro, rikoze neza rifite ibikenewe, rifite jaride nziza, inzira nziza abahagana banyuramo ndetse n'Ibendera ari ryo kirango cy'igihugu.

Umuganga arimo arasuzuma ikibazo umurwayi afite yifashishije imashini zabugenewe cyangwa se ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha abaganga muri iki gihe kugira ngo bafashe abarwayi mu buryo bworoshye, bidasabye igihe kirekire, ni ukuvuga ikoresha ikoranabuhanga rigezweho.

Inzu nini cyane yubatse neza ndetse mu buryo bugezweho, muri iki gihe bwifashishwa mu kubaka ku buso buto kandi ukubaka inzu nini, bigatuma ubutaka budakoreshwa cyane, ifite aho kuruhukira, parikingi hajyamo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga.

Imiti myinshi yifashishwa mu gihe umuntu yavunitse wenda ari gukora siporo cyangwa se ahuye n'indi mpanuka muri rusange, umuntu wakoze impanuka cyangwa se wavunikiye muri siporo hari imiti myinshi yifashishwa kugira ngo avurwe bityo akire kandi bigatuma akomeza kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri siporo, urugero baro nini yifashishwa mu gukina umupira w'amaguru, uwifashishwa mu gukina basikete, undi wifashishwa mu gukina umukino wa tenisi, utubaro duto tw'abana, ndetse n'ibindi.

Uruhurirane rw'imiti myinshi itandukanye yakozwe mu bintu bitandukanye urugero, iyakorwa mu bimera nk'igikakarubamba n'ibindi, iyakozwe mu buki ndetse n'ibindi.

Mu kimera kigaragara koko ko cyabonye amazi ahagije cyuhiwe kikaba gisa neza, kikaba gishobora gutanga umusaruro w'ibyo kurya cyangwa se kikaba cyakorwamo imiti gakondo yifashishwa n'abaturage mu gihe bari kwivura indwara runaka.

Imiti itandukanye igaragaza uko yagiye ikorwa n'ibyo yagiye ikorwamo, urugero iyakozwe mu buki iyakozwe mu bimera uregero nk'indabo ndetse n'ibindi.

Ishyamba ririmo ibimera byinshi bitandukanye, urugero nk'ibimera bito cyangwa se bigufi n'ibimera birebire, urugero nk'ibiti biri mu ishyamba runaka ariko bigaragara ko ari karemano.